Siporo rusange abaturage bose bari muri sitade bahamagariwe kuza gukora siporo, aha ku munsi wa siporo abamama, abapapa, urubyiruko, bose baje kwitabira siporo rusange y'akarere.

Mu Rwanda hagenda haba inama zigiye zitandukanye, zivuga ku bintu bitandukanye, aho uhagarariye inama cyangwa uwatumije abantu mu nama, ajya imbere yabo akabasobanurira intego z'inama ye, inama zigenda ziba kandi zikanabera ahantu hagiye hatandukanye bitewe n'icyo bashaka kuvuga.

Leta y'u Rwanda mu rwego rwo kwita ndetse no gusigasira umuco Nyarwanda, igenda i isisira ibikoresho byinshi bitandukanye by'umuco Nyarwanda byakoreshwaga n'Abanyarwanda rwo hambere, bifashishaga mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ibyo bikoresho biragenda bikabikwa ahabugenewe bikajya byifashishwa mu kuzirikana umuco nk'uduseke n'ibindi byose by'ububohe.

Umuco nyarwanda ni isoko y'ubwiyunge ndetse n'ubumwe bw'abanyarwanda. Mu Rwanda hari ibikorwa byinshi ndangamuco bigenda bisigasirwa kugira ngo umuco nyarwanda udacika. Harimo nko kubyina byarangaga abanyarwanda, ibyo bibafasha kwiyunga no gusabana.

Umuco ntugacike nkuko leta y'u Rwanda ibivuga. Leta y'u rwanda igerageza gukora ibishoboka kugira ngo ibashe kubungabunga umuco nyarwanda c,ni muri urwo rwego ishishikariza abantu ndetse inashishikariza urubyiruko kwiga imyuga yakorwaga n'Abaturarwanda bo hambere harimo nk'iy'ububoshyi ifasha mu kubungabunga umuco kandi no mu iterambere.

Mu muco nyarwanda, hari byinshi bigenda bisigasirwa, bikanabungabungwa, mu rwego rwo kugira ngo umuco nyarwanda utazacika mu Rwanda. Hari ibikoresho byakoreshwaga n'abanyarwanda bo hambere, na n'ubu bigikoreshwa, mu buryo bwo kubaha umuco nyarwanda. Harimo uduseke n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Abaturage b'u Rwanda bashimira gahunda ya leta yo kugeza umuriro kuri bose, aho benshi bawubyaze umusaruro bihangiye imirimo nyuma yo kubona umuriro w'amashanyarazi, bakagenda bagura mu mashinidoda ndetse banakoresha umuriro mu bikorwa bitandukanye bibyara inyungu, bibafasha mu kwiteza imbere no guteza imbere igihugu muri rusange.

Abanyarwanda bagiye bahitamo kwihangira imirimo igiye itandukanye mu rwogo kurwanya ubushomeri, iyo mirimo igiye itandukanye harimo ubudozi, aho Abanyarwanda biga imyuga y'ubudozi kugirango babashe kwiteza imbere noguteza imbere imiryango yabo.

Urwanda rushyize imbere gahunda y'uko buri muturage wese akwiye kugerwaho n'amatara n'amashanyarazi, akava mu bihumye akaba ahantu habona, ni muri urwo rwego leta idasiba gushyiraho no kongera ibikorwa remezo bigenda bifasha mu kugeza amashanyarazi hose mu gihugu cy'u Rwanda.

Amashanyarazi ndetse n'ubwubatsi bw'amashanyarazi ni kimwe mu bikorwa leta y'u Rwanda iteza imbere buri munsi, kuko ifite gahunda yo kugeza amashanyarazi kuri bose, ni muri urwo rwego igenda yongera ibikorwa remezo bitwara amashanyarazi biyageza ku baturage, kugira ngo yihutishe iterambere ry'igihugu, ndetse n'iterambere ry'abaturage muri rusange.

Leta y'u Rwanda binyuze muri gahunda yayo yo kugeza urumuri ndetse n'amashanyarazi kuri bose, igenda ishyiraho ibikorwa remezo byabugenewe ikwira amashanyarazi mu bice by'igihugu. Ibi bifasha kandi abaturage mu kwiteza imbere aha abaturage bihangira imirimo binyuze mu izo ngufu bakora imirimo itandukanye harimo nko gusudira n'ibindi.

Ku munsi wa none abagore bahawe ijambo, bagenda bagira uruhare mu bikorwa bitandukanye by'iterambere harimo ibikorwa byinshi bigendanye no kwihangira imirimo nk'imyuga, nk'ubwubatsi n'ibikorwa by'amashanyarazi. Ibyo byose bifasha mu iterambere ry'igihugu ndetse n'iry'abaturage muri rusange.

Muri gahunda ya leta yo kugeza amashanyarazi hose kuri bose leta y'u Rwanda yagiye ifasha abaturage kwiteza imbere binyuze mu gukoresha ingufu z'amashanyarazi itanga kandi amahugurwa ku mikoreshereze y'ibikoresho bitandukanye bisaba amashanyarazi hirindwa ibyago n'impanuka zaterwa n'imikoreshereze mibi y'ingufu z'amashanyarazi.

Leta y'u Rwanda yashyize gahunda ndetse nintego yiyemeje kugeza amashanyarazi ku muturage wese a kugerwaho'amashanyarazi. Akava leta amashanyarazi igenda i ibikoresho bitandukanye igasaba kwitondera impanuka ziterwa n'amashanyarazi.

isi ya none isa n'aho yubakiye ku mashanyarazi kuko amashanyarazi ni zimwe mu isoko z'imbaraga zikenewe isaha ku isaha umunota ku munota kugira ngo ibikorwa byinshi bitandukanye byo mu isi bibashe gukora. Ni muri urwo rwego amashanyarazi aba atagomba kubura kugira ngo ibikorwa bigiye bitandukanye bibashe gukomeza kugenda neza.

Leta y'u Rwanda igenda ishyiraho ibikorwaremezo bigiye bitandukanye kugira ngo bifashe abaturage mu migenderanire ndetse no mu mihahiranire ya buri munsi, jyenda yubaka nk'ibiraro kujyirango abantu babashe kubinyuraho bagenderanira bajya hakurya cyangwa hakuno y'agace kamwe bahahirana mu buzima bwa buri munsi.

Mu Rwanda ibikorwa remezo bigiye bitandukanye byashyizweho kugira ngo bigende bifasha abaturage nk'urugero leta yashyizeho ibiraro, imihanda kugira ngo bigendade bifasha. Hari ibiraro byo mu kirere aho bifasha kubakwa ku mihanda, bigenda bifasha abantu guhahirana.

Ubwikorezi ni rumwe mu nzego mu Rwanda rushyigikiwe kandi ruterwa imbaraga na Leta y'u Rwanda mu buryo bwo kunoza ubuhahirane ndetse n'imigenderanire hagati y'Abaturarwanda. Ni muri urwo rwego leta y'u Rwanda igenda ishyiraho ndetse ubaka ibikorwaremezo bijye bitandukanye bifasha abaturage mu ngendo zabo za buri munsi. Ubu ku mateme nyabarayo mu kirere ndetse n'ayo ku butaka bisanzwe.

Iterambere ry'ibikorwa remezo. Aha ngaha hari ibikorwa remezo biteye imbere, ndetse harimo inyubako, inyubako rwose zijyanye n'igihe, urabona umuhanda, umuhanda ujyanye n'igihe, ndetse urakenewe cyane, kugira ngo ushyigikire imigenderanire.

Muri gahunda ya Leta yo gushyigikira uburenganzira bwa muntu ndetse no kwita ku butabera bw'abaturage, Leta y'u Rwanda yohereza abayobozi bayo kugira ngo bamanuke mu baturage babashe kumva ibibazo bafite ndetse babikemura hakiri kare bityo bitabadindiza mu iterambere.

Abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda bakangurirwa buri munsi kwita ku burenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse no gushaka icyatuma umutekano w'Umunyarwanda uboneka. Ni muri urwo rwego abayobozi bo mu nzego zose bahabwa amahugurwa ku buryo bacungira umutekano ndetse bakanita ku mibereho myiza n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu.

U Rwanda rwubatse serivisi zarwo ku buryo yaba ari serivisi z'umutekano ndetse na serivisi z'abaturage muri rusange, zisanzwe byose bihuriza hamwe kugira ngo bifashe kurenganura umuturage, bifasha umuturage mu iterambere rye ndetse abashehagararika uburenganzira bwe.

u Rwanda nk'igihugu cyubakiye ku bumwe n'ubwiyunge, rwagiye ruteza imbere ubutabera ndetse rugashyigikira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ruha ijambo buri muturage wese akabasha gutanga igitekerezo cye, uko abyumva ndetse mu bwisanzure.

Binyuze muri gahunda ya leta yo kwita ku burenganzira bwa muntu, ndetse no gushyigikira ubutabera leta y'u rwanda iha amahirwe buri wese kandi ishishikariza abaturage kugira ngo birinde ibikorwa byose byabashora mu bihano, ndetse igatega amatwi buri munyarwanda wese kugira ngo imuhe ubutabera bumukwiriye.

Leta y'u Rwanda mu rwego rwo kwita ku burenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse no gutanga ubutabera kuri bose, yegera abaturage ikabaza ibibazo bafite ndetse bibabangamiye, ikareba ahari amakimbirane ndetse n'ibindi byose bituma umuturage atumererwa neza ikabikemura ifatanije n'inzego z'umutekano.

Igihe cyo kwibuka mu Rwanda. Ni igihe kiba gisaba buri munyarwanda wese gutuza, akabanza akazizirikana ahahise h'u Rwanda, kugira ngo dushyire hamwe twese, tubashe kubaka u Rwanda rwiza ruzira amacakubiri. Mu gihe cyo kwibuka, twifatanya n'inzego z'umutekano, n'abayobozi batandukanye b'igihugu.

Inama y'abaturage. Uyu ni umusaza umwe mu bari muri iyima yahawe ijambo n'abayobozi kugira ngo atange igitekerezo cye. Inama yabahuje n'abaturage n'abayobozi muri rusange ari gutanga igitekerezo cye nk'umusaza mukuru wiyubashye.

Ubwikorezi .uyu ni umuntu utwara igare mu buryo bwa kinyamwuga bwa buri munsi, ari gukora mu muhanda ugezweho wa kijyambere uzwi nka kaburimbo. Uyu munyonzi ari gufasha abantu kuva hamwe abajyana ahandi kugira ngo abafashe mu ingendo zabo ndetse na we bimufasha mu kwiteza imbere.

Leta mu rwego rwo gushyigikira imigenderanire n'imihahiranire y'abaruwutuye yagiye yubaka ibikorwa remezo bi bitandukanye, bifasha mu bwikorezi. Ibi byose kandi bifasha ababikoresha mu kwiteza imbere aho bakoresha imihanda igezweho ndetse ibyo bibafasha no guteza imbere igihugu cyabo muri rusange.

Ubwikorezi n'ingendo ni ibikorwa shingiro bifasha abaturage mu kwiteza imbere bava hamwe bajya ahandi ndetse banoze imihahiranire n'imigenderanire. Ni muri urwo rwego leta y'u Rwanda yagiye yubaka ibikorwa remezo biteye imbere ndetse ikanoza gahunda zo mu muhanda zose kugira ngo abantu babashe kuyikoresha batekanye byongere iterambere ry'igihugu.

Leta y'u Rwanda binyuze muri gahunda yayo y'umuturage ku isonga, igenda ishyiriraho abaturage uburyo bwiza bwo kunoza imigenderanire ndetse n'ubwikorezi, babashe kuva ahantu hamwe bajya ahandi ndetse baniteza imbere. Ishishikariza kandi Abanyarwanda mu gushyira ibinyabiziga mu muhanda kugira ngo bafashe abaturage mu kugenda mu ngendo zabo.

Mu rwego rwo kunoza imigenderanire ndetse n'ingendo by'abaturage, leta y'u Rwanda ya ishyira imbaraga mu kubaka ibikorwa remezo bifasha mu kwita ku mutekano w'abakoresha imihanda muzima bwa buri munsi. Hubatswe imihanda igezweho ya kijyambere ndetse ishyirwaho n'amatara kugira ngo amasaha y'umugoroba abantu bajye bagenda batekanye.

Mu buzima bwa buri munsi mu bijyanye n'ubwikorezi, imihanda igezweho igira uruhare mu gufasha imihahirane n'imigenderanire y'abayikoresha. Leta igenda ishyira ibimenyetso mu muhanda bifasha abayigenda kugira ngo bagende bubahana ndetse bubahiriza amabwiriza agenga gutambuka.

Ubwikorezi ni kimwe mu gikorwa gikorwa n'abantu hafi ya bose, gikorwa n'abantu benshi, bwaba bari mu rwanda ndetse no hanze yarwo. Ubwikorezi rero bufasha abaturage mu kwiteza imbere rwego bwa buri munsi hifashishwa imihanda n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye kugira abantu bashe kugenderanira bahahirane umunsi ku wundi.

Leta y'u rwanda binyuze muri gahunda zayo zigiye zitandukanye igenda ishishikarira ishishikariza abaturage mu gushyira hamwe ndetse no kwingira umutekano, ni muri urwo rwego igenda ibagira inama zo gutemura no kuvanaho ibintu byose bishobora kuba indi y'abambuzi ndetse bagakora imihanda kugira ngo birindwe ibyabo byaterwa nayo.

Inzego z'umutekano za guverinoma ndetse n'izindi nzego zitandukanye mu Rwanda zigeze zikifatanya n'abaturage, bakaza gushyira hamwe kugira ngo bashakire hamwe umuti w'ikibazo kiba cyugarije abaturage. Bikorwa bakora imihanda nk'ikibazo kiba kibangamiye imigenderanire n'ibindi.

Mu Rwanda hari kandi hahoze gahunda y'umuganda. Iyo gahunda y'umuganda washyirwagaho kugira ngo abaturage babashe gufashanya mu buryo butandukanye hagati yabo. Iyo gahunda kandi ishyirwaho kugira ngo ifashe umuturage ufite ikibazo bityo bibashe kugira ngo hakemurwe ibibazo biba hagati y'abaturage, bibangamira iterambere ryabo ndetse n'iterambere ry'igihugu muri rusange.

Leta y'u Rwanda ibinyujije muri gahunda y'umuturage utekanye yagiye ishyiraho inzego z'umutekano kuva ku rwego rwo hasi kugeza ku rwego rwo hejuru, mu rwego rwo kugira ngo umuturage abeho afite umutekano, ibikorwa bye birinzwe kandi n'ubuzima bwe burinzwe muri rusange, arusheho mu kwiteza imbere no guteza imbere igihugu.

Siporo ni ingenzi mu Rwanda siporo irashyigikiwe kandi itezwa imbere ku bwinshi. Leta y'u Rwanda yagiye ishyiraho ibikorwaremezo bigiyebitandukanye bifasha abaturage mu guhurira muri siporo no mu mikino kugira ngo ibashe kwisanzura. Ishyiraho kandi n'ibikorwaremezo byiza byemerera abaturage kwiteza imbere binyuze muri siporo.

Siporo cyangwa imikino ni imwe mu nzira Leta inyuzamo kugira ngo ishishikarize abantu kugira ubuzima bwiza, kugira umuco w'amahoro, ubwiyunge ndetse no kwihanganirana. Binyuze muri siporo Leta yifuza ko buri muturage wese yabasha kugira ubuzima buzira umuze ndetse agasabana n'abandi bakiyunga banezerewe.

Imikino ni ikintu gihuza abantu ndetse kikanabafasha mu kuruhuka mu mutwe. Ni muri urwo rwego leta y'u Rwanda yagiye ishyigikira siporo ndetse hakubakwa ibikorwa remezo bihagije kugira abantu babone ahantu ho gukorera siporo, kwidagadurira bityo bifasha kugira ngo iterambere ry'igihugu rigende neza.

Imikino ni imwe muri gahunda ya leta, leta inyuzamo kugira itambutsa ubutumwa ndetse ishishikariza abaturage kugira umuco w'amahoro ubwiyunge n'ubusabane. Binyuze mu mikino abantu barahura, bakishima, bagasabana ndetse bikabafasha no guteza imbere impano zabo imikino y'imipira y'amaguru irahemba cyane.

Mu rwego rwo gushyigikira imikino, leta y'u rwanda yashyizeho gahunda ihamye yo guhemba abakinnyi ndetse no gutegeka amakipe bakinamo kubaha amasezerano. Yubatse kandi ibibuga bihagije kandi biboneye bifasha abakinnyi kwidagadura ndetse binafasha mu iterambere ryabo ndetse n'iterambere ry'igihugu muri rusange.

Imikino nka rumwe mu rwego rwo gushyigikira umuco w'amahoro, ubumwe n'ubwiyunge no gushyira hamwe, gushyirwamo imbaraga kandi ushishikazwa na leta. Ntekereza ko atari leta y'u Rwanda gusa ahubwo ni Isi muri rusange. Binyuze mu mikino habaho ubwiyunge ubucuti n'ubuhahirane kandi bifasha mu iterambere ry'abakinnyi muri rusange.

Siporo ni kimwe mu bikorwa bishyigikiwe na Leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda ishyigikira siporo ku rwego ihamagarira buri muturage wese, kugerageza gukora siporo. Ndetse ikanashyiraho uburyo bwihariye bwo guhamagarira urubyiruko kwisanga mu mikino itandukanye. Nk'imikino y'umupira w'amaguru, abana bisanzuraniramo, bakishimana n'abandi, ndetse ikabafasha kubaka urugwiro.

Siporo ni ingenzi mu buzima, siporo ni kimwe mu bikorwa bihuza abantu benshi kandi siporo ifasha kugira ngo ishyigikire imibanire myiza y'abantu ndetse n'iy'Ibihugu muri rusange binyuze mu mikino nka footuboro, waba wagenda bagahura bakishima bagasabana bakagirana urugwiro.

Imikino ndetse na siporo muri rusange, nimwe mu nzego zishyigikiwe kandi zatejwe imbere mu Rwanda kuko rufasha abaturage kuruhuka, kugira ubuzima bwiza. Ni muri urwo rwego leta y'u Rwanda yagiye yubaka ibikorwa remezo, amastade bihagije kugira ngo abaturage babashe kubyifashisha mu bikorwa by'imikino na siporo.

Leta y'u rwanda ni umubyeyi, ishishikariza abaturage mu bikorwa bya siporo ndetse ibyo bikorwa bibafasha mu kugira ubuzima buzira umuze ndetse no kubasha kugira umubano hagati y'abantu uko bahuye, ni muri urwo rwego Leta y'u Rwanda yashyizeho umunsi buri kwezi wahariwe siporo.

Imikino aha hangaha abana barimo barakina, bari gukina umupira w'amaguru. Bibafasha mu gusabana no kwishimana ndetse no gukura mu mutwe. Abana bakina umupira ni batatu. Ubona ko umwe ari kwigira kuwundi uburyo bwiza bwo gucenga.

Siporo ni isoko kandi ni ishingiro ry'ubumwe bw'abanyagihugu. Imikino y'umupira w'amaguru ndetse n'indi mikino itandukanye ihuza abantu, ifasha abantu mu gusabana, mu gushyira hamwe ndetse no gushakira hamwe, gushakira hamwe igisubizobazo byugarije Abanyarwanda muri rusange.

Imikino aba ngaba ni abakinnyi bakiri bato b'umupira w'amaguru mu Rwanda, urabona bahujwe ni amakipe abiri yahuye, ari gukina ikipe imwe ishaka insinzi iyivanye ku yindi kipe, zombi zirahatanye ziri gukina neza rwose.

Siporo ku isonga. Leta y'u Rwanda ibinyujije muri gahunda yo gushyigikira no guteza imbere siporo, ihamagarira kandi ikangurira Abaturarwanda kwitabira ibikorwa bya siporo kuko bihuza abantu bityo bikabafasha kongera ubusabane, urugwiro ndetse n'ubucuti, binafasha kandi kugira ubuzima buzira umuze.

Siporo n'uzima leta y'u Rwanda ihora ishishikariza abaturage ,urubyiruko ,abakuze, kwitabira ibikorwa bya siporo. Siporo ifasha uyikoze kugira ubuzima bwiza ndetse ikanafasha abazikorana kugirana ubucuti ,ubuhahirane ,umubano mwiza, unakenewe mu iterambere ry'igihugu muri rusange.

Ubwikorezi ndetse n'ubuhahirane bigenda neza iyo imihanda yubatswe neza ndetse ikanavugururwa. Ni muri urwo rwego Leta y'u Rwanda idasiba gutunganya ibikorwa remezo birimo nk'imihanda kugira ngo abaturage bayigenda babashe kuyinyuramo bahahirana bityo bifashe mu iterambere ry'abaturage ndetse n'iterambere ry'igihugu muri rusange.

Ibikorwa remezo aha ngaha hari kubakwa umuhanda wa kijyambere uzwi nka kaburimbo, urabonako ni umuhanda ugejejwe ahantu mu buryo bukenewe nubwo bisa naho utaruzura neza ariko ni umuhanda wifashishwa mu bwikorezi butandukanye ndetse n'ingendo.

Imijyenderanire ndetse n'ubuhahirane bijyenda neza iyo hari imihanda myiza yifashishwa nabayigenda kujyirango babashe kuva ahantu hamwe bajya ahandi, ni muri urwo rwego leta y' u Rwanda ishishikariza abaturage mukujyira uruhare mu ikorwa ry'imihanda ndetse na leta igashyiramo amafaranga kujyirango ibashe kubonera abaturage imihanda myiza yo kugendamo bahahirana.

Leta y'u Rwanda igenda ishishikarira abaturage mu gutunganya utuyira ndetse n'imihanda yo mu cyaro cyangwa yo mu ngo, kugira ibafashe mu mu mihahiranire ya buri munsi. Gukora imihanda n ni imwe mu nzira z'iterambere ry'abaturage ndetse n'igihugu muri rusange.